Inyubako yubatswe n'amabuye, intebe zikoze mu biti, kontwari cyangwa se utubati dukoze mu biti. Ni akabari gacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye abantu baturutse hirya no hino baza kuhafatira icyo kunywa.

Akabari kagezweho ,gacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye. Nyiri Kabare arimo aritegereza, anagenzura bimwe mu binyobwa acuruza ,ategereje ko hari abakiriya baza kumugurira.

Umudugudu utuwe n'abantu bafite inyubako zitandukanye, hariho inzu y'igihanga hakabaho n'inzu zubatse ku buryo busanzwe, hariho ibikorwaremezo nk'umuhanda ariko utarimo kaburimbo, hakabaho umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amatara ku muhanda.

Iduka ricururizwamo ibikoresho byo kuryamaho, hariho imicyeka baramburirahasi ubundi bakicara, harimo na matora nziza cyane zo kuryamaho, harimo kandi imisego imwe bashira mu ntebe.

Iduka ricuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, harimo amacupa ya parasitike y'amafanta hakabamo n'uducupa twa tangawizi, harimo kandi inzoga zo mu byuma, hakabamo n'amavuta yo kwisiga azwi nka asante.

Imashini ni icyuma gisya ibigori. Iki cyuma gisya ibigori kikabikoramo ifu y'akawunga. Iyo abantu bejeje ibigori bashaka kurya akawunga, bazana ibigori byabo bakabitonoza kuri iki cyuma gisa nk'ubururu.

Ibyapa bibiri kimwe kiriho ikarita y'u Rwanda mu mabara agize ibendera, kuva aho icyapa kiri kugera aho pisi of Rwanda ikorera harimo metero magana ane. Ikindi ni icyahinga wunguke ishami ry'i Musanze, uwo mushinga ukaba uterwa inkunga na USAID, bahinga inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, ibi byapa byayobora umuntu ushaka kugana aya mashami.

Inzu ya Kayitare icumbikira abantu baje kuruhuka, irimo intebe zimeze neza ,n'uburiri bumeze neza buriho matelas zigezweho . Hakaba haboneka kandi n'kinyobwa ndetse na nimero za telefone ,ushaka guhamagara yabahamagararaho.

Amaduka acuruza amagaze n'amasafuriya. Imbere y'amaduka hariho amacupa ya gaze. Hariho gaze z'umuhondo. Hakabaho gaze z'umutuku. Hakabaho kandi na gaze z'ubururu. Imbere hariho ikidomora. Hariho umukobwa uri kwitegereza ama gaze. Ari gushaka gushimamo imwe ayishyure.

Ikaritsiye y'ubucuruzi ,inzu imwe ifite imiryango myinshi. Imbere y'umwe muri iyo miryango hariho amacupa ya gaze ,imbere hari igare, imbere yaho hari umuhanda urimo abatwazi b'amagare, bahetse ibintu ku magare.

Icyapa kiriho ibendera ry'u Rwanda. Kiri mu ibara ry'umukara, amagambo yandikishije umuhondo. Hariho ibirango bya RDB. Iki cyapa kirayobora abantu muri pariki y'ibirunga. Kuva ku cyapa ugera aho pariki iri harimo ibirometero bitatu.

Ibyapa ku nzugi biri kwamamaza iduka ricuruza ibikoresho bya elegitoroniki, harimo amaponsezi, hakabamo disiki z'amaponsezi, harimo kandi n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa cyane cyane mu gusudira ndetse no mu gukata ibyuma.

Inzu z'ubucuruzi, imbere y'inzu hariho amakaro, amakaro abantu barayakunda cyane, kuko inzu irimo amakaro iba iteye amabengeza, buri muntu wese yishimira gushyira amakaro mu nzu ye.

Umugabo wicaye imbere y'iduka rye ricuruza ibinyobwa, yicaye mu ntebe ya pulastiki. Inzu ye yubakishijwe amakaro y'umweru ategereje ko abakiriya baza kumugurira ibinyobwa.

Iduka ricuruza esanse n'ibindi bikomoka kuri peteroli, bikoreshwa mu binyabiziga. Imbere hariho moto iparitse, umuntu ugiye kugura esanse yo gushira muri moto. Iruhande rwaho hariho umusekirite ucunze umutekano, kugira ngo hatagira uwuhungabanya.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye. Harimo ibisarubeti by'abana, hakabamo amasume n'amakigoma bitandukanye bifunze mu mashashi. Ushaka guhaha yaza agahitamo ikijyanye n'ibyifuzo, ndetse n'ubushobozi bwe.

Isoko ricuruza ibikomoka mu mazi. umufuka urimo indagara ,iruhande hariho isambaza n'amafi . Isambaza n'amafi ni ingenzi ku buzima bw'abantu kuko bikungahaye kuri vitamini ndetse no ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Iduka ricururizwamo ibinyampeke n'ibinyamisogwe. Hariho imifuka irimo ibishyimbo, hakabaho imifuka irimo soya. Harimo kandi imifuka irimo ibigori hakabamo n'imifuka irimo ingano.

Isoko rinini ririmo amaduka atandukanye. Ni isoko ririmo amaduka acuruza imyenda. Harimo amashuka yo kuraramo ,hakabamo n'imipira yo kwambara. Abacuruzi baricaye, bategereje ko abaguzi baza kubagurira bakabaha amafaranga.

Iduka ry'ibyokurya. Harimwo amavuta ari mu macupa ariho ibirango by'inyange, afungishijwe imifuniko y'ubururu. Harimo salisa, hakabamo umunyu, hakabamo kandi amakaroni, ndetse n'indobo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umucuzi w'amasafuriya n'ibindi bikoresho abantu bifashisha bya buri munsi. Yicaye ku ibuye afite amasafuriya yapfumutse. Iruhande rwe hariho teremusi, inyuma ye harimo umufuka urimo ibikoresho yifashisha mu guhoma amasafuriya yapfumutse.

Kantine ni iduka ricururizwagamo ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye. Hariho akagaro k'umweru karimo amata. Umukobwa ari gufungura akagaro agasuka amata mu gakombe kugira ngo ahereze umukiriya.

Aagore babiri bicaye, barimo baradandaza. Bicaye inyuma y'igipangu, bategereje ko hari abakiriya baza kubahahira bimwe mu bicuruzwa bacuruza, barimo barashaka amafaranga nk'uburyo bw'imibereho.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko harimo ibicuruzwa byiganjemo imyenda, n'inkweto zo kwambara, hari inkweto z'ubwoko butandukanye, abantu baturutse imihanda yose baje mu isoko guhaha imyenda ndetse n'inkweto.

Umugore yicaye ku mufuka yambaye inkweto za bunyogwe, umufuka umwe utanditseho amatabi ategereje abaguzi ko baza kumugurira amatabi. Ni amatabi azwi nk'ibikamba.

Isoko ryubakiye ricuruza ibicuruzwa bikomoka ku musaruro w'ubuhinzi, byiganjemo inyanya ziri mu dupaniye dutandukanye; utw'icyatsi ndetse n'utw'ubururu. Abaturage bavuye imihanda yose baraza bagahaha inyanya.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye. Harimo isukari, hakabamo amavuta, hakabamo isabune, hakabamo amasafuriya, hakabamo amabombo. Ku buryo buri muntu wese ushaka kugira icyo ahaha yaza akakigura.